Urupapuro rw'umweru rwometse ku gikuta cy'igiti, amagambo yanditseho mu nyuguti nkuru n'andi arimo matoya. Ikiganza gifashe ikaramu y'umukara. Hepfo yayo hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo manini, n'amatoya, n'ikirangantego.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahuri byinshi biyizengurutse, hejuru yayo isakajwe ibate ry'umukara, umutaka w'ubururu uyitwikiriye yose, icyuma kimanuka kuri wo gifata hasi bafataho.

Inzu y'ubucuruzi iri kwakamo amatara menshi, harimo imyenda izinze n'indi imanitse ku dusinga y'abadamu, iy'umukara, iy'ubururu, iy'umuhondo, ameza ahateretse.

Inzu y'ubucuruzi, hari ibishushanyo bikoze mu bantu byambaye imyenda, hari n'indi ifite amabara atandukanye, umukara, umuhondo, umutuku, ubururu.

isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibishushanyo bikoze mu bantu byambaye imyenda y'abagore itandukanyije amabara impande yabo hari intebe imitako y'abagore bambara mu ijosi ku maboko ku mazuru.

Ibishushanyo bikoze nk'abantu byifashishwa mu bucuruzi byambaye amabara atandukanye y'imyenda umukara umweru umutuku.

Abantu babiri bafatanye mu ntoki b'abagabo, umuzungu n'umwirabura, hirya yabo hari umudamu wambaye agapira k'ubururu, imisatsi miremire, n'imyenda itonze ku murongo bigaragara ko ari iy'ubucuruzi, n'indi iri hirya n'udushakoshi duhari.

Inzu y'ubucuruzi bw'imitako, impande yayo hubakishijwe amabuye aconze neza, igitenge kihamanitse n'umupira, imeza ishasheho y'igitambaro cya shokora, hejuru yayo hariho udutako n'igikapu gikoze mu gitenge, indabo zihateye zirabije.

Ikibumbano gikoze mu muntu w'umudamu, yambaye imyenda yabo hirya ye hari amakanzu arimo amara atandukanye bigaragara ko acurujwe, ay'umutuku, umuhondo, umukara, umweru, ubururu hejuru hari ibikapu bitatu bifite utundi duto mu mpande zabyo.

Imodoka ihagaze iri yonyine nta muntu uyirimo, imbere yayo hari igishushanyo kiri mu ibara ry'umuhondo gikoze nk'umwambi, inyuma igikuta kihazengurutse gishinzemo ibyuma, n'izindi nsinga ziri hejuru yabyo.

Imodoka bigaragara ko ikiri nshyashya iri mu bubiko bwayo, ifite ibara ry'umweru amapine y'umukara n'irindi by'umutuku, nta muntu n'umwe uyirimo, impande yayo nta n'ikindi kintu kihakikije gihari.

Imodoka izwiho gutwara abagenzi irahagaze, irakinguye ifite ibara by'umweru, ibirahuri byijimye nta muntu numwe uyirimo inyuma yayo hari izindi zihari, n'ibiti bihari ibicu by'umweru n'iby'ubururu.

Imodoka ihagaze icanye amatara inyuma yayo hari inzu ntoya n'iy'igorofa rirerire rifite ibirahure n'ibara ry'umweru umusozi uriho ibiti byinshi cyane biwukikije.

Abantu babiri bahagaze b'abagabo bareba imbere bataruye ikintu mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka nini izwiho gutwara imicanga n'amabuye ifite igitwe cy'umweru ibiti biteye hepfo byakuze inzu nini ndende y'igorofa.

Inzu y'igorofa ihagazweho n'abagabo batanu inyuma yabo hari imodoka z'amoko atandukanye bafite agakapu k'umutuku karimo ikirangantego cy'umweru ndetse bambaye inkweto zitandukanye.

Abantu babiri b'abasore bahagaze bambaye inkweto zisa zirimo umukara n'umweru bafite ikintu mu ntoki bahurijeho amaboko, inyuma yabo hari imodoka ihahagaze itari kugenda, icanye amatara, amazu menshi y'ubucucike ari inyuma yayo n'ishyamba rya kimeza.

Imodoka zihagaze ahantu aho zagenewe, harimo itwara abarwayi bo kwa muganga barembye n'indi isanzwe y'umuntu ku giti cye, zigizwe n'amabara atandukanye iy'ubururu, umweru n'indi irimo umutuku inyuma yaho.

Amafaranga y'u Rwanda ariho umubare umwe, hariho ikirangantego kirimo agaseke, inkende igiye gufata igiti kiri imbere yayo, amagambo manini yandikishije inyuguti nkuru agaragara neza, ibindi bishushanyo birimo bisa n'ubururu, icyatsi n'andi mabara atandukanye.

Amafaranga menshi ari mu biganza bibiri by'umuntu w'umugabo wambaye ishati y'ubururu, imbere ye hari n'utundi dupapuro turi ku meza y'umukara, n'isuri bakoresha kuri mudasobwa.

Abantu babiri bari guhezanya amafaranga, umuhungu yambaye umupira w'umutuku, umukobwa urimo amabara y'umukara n'umweru, udupfukamunwa, imisatsi mikeya, imbere yabo hari mudasobwa.

Imeza nini y'umweru, iteretse isahani y'umukara irimo amagi atatu adatonoye, agakombe kadapfunduye n'akandi kaguye kuri ayo meza, gapfundikishije agapfundikizo k'umuhondo, hirya hatetse igikoresho cy'umukara.

Ibicuba byinshi biteretse ahantu bigera muri bitandatu, byose byuzuye icyayi gifite ibara rijya kumera nk'ikigina, mu bidobo buhateretse n'akaguye hasi, bumwe busa n'umuhondo ubundi busa n'umweru kandi harimo n'ubupfundikiye.

Imeza ndende y'umweru iteretseho isahani, umuntu uyishingikirijeho afite imigati ibiri mu ntoki ikoze mu ifarini, hirya yayo hari ibintu bihanyanyagiye bitandukanye, birimo n'impapuro.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa, imbere yayo hari intebe zihuje amabara y'ubururu n'imeza y'umweru, umutaka muremure w'umutuku, ku rugi hari indobo ihateretse n'akabase bya kandagira ukarabe.

Inzu ikinguye bigaragara ko ari ubucuruzi bw'amata, hahagazemo umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu n'abandi bari hirya, hagati yabo hari ameza maremare atetseho ibyasi, hari umuntu uri kubuganiza amata mu kadobo k'umweru, hirya yabo hari igiti kirekire n'inka ihahagaze.

Ahantu hari igicuba kinini cy'amata n'undi muntu wambaye ingofero w'igitsina gore ufite jage mu ntoki, ari kubuganiza amata mu kabido k'umweru, afite n'agatenwari ari gukoresha, umukobwa uri hirya uhagaze mu idirishya, utubido twinshi duteretse ku meza.

Inzu ifite ibara ry'umweru ivunjesherizwamo amafaranga, hirya yayo hicaye abakobwa n'abahungu ku ntebe ndende ndetse umwe afite imisatsi, imyenda y'umukara yambaye hasi no hejuru.

Intebe nziza zikoreshwa aho barira, hagati yazo hari imeza, aho bicara hasa n'umukara, hirya yayo hari inzu nini ifite irangi ry'umweru, amadirishya afite irangi rya shokora, inyuma hakaba inzu ndende ifite amabati y'umweru.

Ibitanda bibiri bisize amabara atandukanye, impande yabyo hari ibindi bikoresho, ameza, n'intebe.

Inzu nziza iteretsemo ibikoresho bigezweho, irido rirerire, ameza y'ikirahure, intebe y'ubururu, n'indi y'umweru, n'iy'umutuku, hirya yayo hari n'izindi zikoze mu bundi buryo, bwa kinyarwanda.

Amazi menshi y'ikidendezi ari ahantu yiganjemo ibara ry'ubururu, hakurya yayo hari intebe zihateye, imitaka miremire y'umweru, ibiti bihagaze bigaragara ko byatewe, indabo z'ubusitani zirabije.

Amazi meza y'ikidendezi bogamo, harimo umuntu umwe, impande yayo hazengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma, ubusitani buhateye, imitaka miremire, intebe zo kwicaraho.

Intebe ziteretse ahantu zigera muri enye, imeza iri hagati, hirya yaho hari inzu ndende y'igorofa, ifite amabara atandukanye, ibara ry'ivu, ibara ry'umuhondo, ibiti bihateye mu buryo bw'indabo, birebire na byo byakuze, byenda gufata ku ruzitiro.

Inzu nini ndende y'igorofa igereretse inshuro nyinshi, hasi yaho hari ubusitani n'umuntu uhagaze, igizwe n'amabara atandukanye umweru, umutuku, ibirahure byayo ni ubururu ndetse hejuru hari indabo zihateye mu bibumbano.

Inzu nini ndende y'igorofa igeretse inshuro ebyiri, imiryango ikinguye y'ubucuruzi butandukanye, ibyapa byometseho by'amoko menshi atandukanyije ibirangantego, abantu bahagaze inyuma yabo hari ibicuruzwa bihapanze, umuntu wicaye yambaye umwenda w'umutekano.

Ishusho igaragaza umukuru w'igihugu yishimye ari kumwenyura yambaye imyenda isa ipantaro n'ikote, ateye intambwe arahagaze yambaye indebakure umusatsi uconze neza mukeya urimo imvi.

Umukobwa wicaye yambaye umupira w'umuhondo n'ikote ry'umukara, imbere ye hari mudasobwa, abakobwa babiri bamuri imbere n'umugabo ubateye umugongo ureba hirya, yambaye ikote risa hose n'ishati y'umweru.

Umutako ugaragaza ibendera ry'igihugu ugizwe n'amabara atandukanye atatu, icyatsi, umuhondo, ubururu, umukobwa uri kureba areba imbere amwenyura afite umutako mu ntoki.

Isoko ririmo abantu benshi n'ibicuruzwa bitandukanye by'igitoki amateke, imboga, abagore babiri bahagaze umwe yifashe ku munwa no mu mayunguyungu biteza ibitambaro hose mu mutwe.

Umuntu uri kugenda, yambaye ingofero y'umutuku n'undi umuri inyuma, umukiriya, ibirayi, umufuka wabyo uteretse ku ibuye, umucuruzi, umugore wambaye indebakure n'agatambaro mu mutwe.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi by'imbuto bitandukanye, inanasi, ibinyomoro, amacunga, amapapayi, imineke, inyuma yabo hari umugore uhahagaze n'abandi babiri bari kuzikoramo, bareba imbere, barambuye ukuboko.

Isoko ryubakiye n'ibyuma rikomeye, ririmo abantu bacuruza batandukanye; abicaye, abahagaze, ibirimo inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, karoti, intoryi, imiteja, n'ibindi bimanitse hejuru.

Isoko ryubatse neza risakaye rifite inkingi z'ibyuma birebire, ibitambitse, umugore uhicaye ucuruje imboga, inyanya, ibitunguru, imiteja, amagi n'ibirungo bitandukanye.

Inzu irimo abantu benshi harimo umuntu ucuruje isambusa mu ndobo, imbere ye hari abagore batatu bahagaze bitegerezamo uhetse umwana mu mugongo, iruhande rwabo hari intebe ndende iteretseho ibasa.

Isoko rinini ryubatse neza higanjemo ibyuma birifashe, abantu bahagazemo abicaye bari gucuruza ibitunguru inyanya, ibishyimbo, amashaza n'andi adatonoye, ibitoki hirya yaho hari n'ibindi bintu bihamanitse by'ibicuruzwa.

Inzu nini ndende y'igorofa, igeretse inshuro nyinshi, imbere yayo hari abantu bahagaze, imodoka zihari zitari kugenda, umuhanda munini urimo ibinyabiziga by'ibinyamitende, byicayeho abantu.

Isoko n'ibicuruzwa by'imyenda byinshi bitandukanyije amabara, umutuku, umweru, ubururu, icyatsi, umugabo wicaye n'uhagaze, n'abagore bari hirya bari kureba mubyo bafite mu ntoki.

Inzu nini y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye ibtenge by'abagore, hari ibimanitse hejuru n'ibindi bitonze ku murongo biri munsi yabyo, udukoko two gutaka mu nzu turimo amabara menshi, umugabo wicaye ari kureba mu itumanaho mu ntoki ze.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo abagabo n'abagore, abahagaze n'undi wunamye yambaye umupira w'umutuku, imitako yo gutaka mu nzu, inkoni za kinyarwanda, ibitenge by'abagore bambara.

Ibicuruzwa by'imyenda imanitse hasi no hejuru. Umuntu wegamye w'umukobwa yambaye ijipo ngufi y'umukara, umusatsi uciye bugufi, umupira w'umweru. Umugabo wambaye ingofero ireba inyuma, umupira w'ubururu, ipantaro y'umweru. Agakweto gaciye bugufi, ikanzu imanitse hejuru cyane y'umutuku n'amakanzu ari ku murongo atandukanye.

Abantu bari ahantu hamwe bahuje impuzankano, abicaye n'abahagaze, babiri nabo bahuje iyabo umukobwa ubari imbere yifashe mu gatuza, afite indangururamajwi mu ntoki ze ayivugiramo n'amataratara yambaye mu gahanga.

Ibiganza by'umuntu bibiri birambitse kuri mudasobwa iteretse ku meza, hirya y'aho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo umweru imirongo iciye itambitse.

Agakapu gateretse ahantu k'umuhondo karimo ibihahwa bitandukanye: imineke, inyanya, ibitunguru n'izindi mboga na voka, imbere yayo hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Imodoka nyinshi zihagaze zitari kugenda, ziganjemo ibara ry'umuhondo n'iry'umukara, hagati yazo hari ibinyabiziga by'ibinyamitende byicaweho, inyuma inzu y'igorofa igeretse gatatu...

Ikinyabiziga cy'ikinyamitende gifite ibara ry'umutuku n'umuhondo n'umukara giteretseho ikarito y'ubururu, imbere yaho hari umugabo uhagaze yambaye inkweto ngufi, ipantaro y'umukara, inzu ihari igizwe n'amabara yijimye n'ibirahuri bigaragaza ibara ry'umweru.

Igitanda cy'umukara gishashe neza gifite ishuka y'umweru n'imisego bisa n'indi irimo amabara arimo utuzu dutambitse n'uduhagaze hirya yaho hari idirishya rifite urumuri ruturuka hanze rubona cyane rureba mu icyumba.

Inzu nziza ndende nini isakajwe ibati ry'umutuku ifite amabara atandukanye umweru umuhondo hateye ururabo mu kibumbano izitijwe uruzitiro. inyuma yarwo hari insina zihateye ndende.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Inzu nini ifite irangi ry'umweru urugi rw'umuhondo, isakaje ibati ry'umutuku, mu mpande zayo hari ubusitani, igiti cyakuze kirekire, gifite amashami hirya no hino y'icyatsi.

Inzu nziza iteyeho indabo zifite amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, umutuku wijimye, ziteretse ku dutanda tw'utwuma murugo.

Inzu nini ndende ifite umwijima hejuru bigaragara ko ari nijoro n'inzugi nyinshi n'amadirishya, mo imbere haraka urumuri rwishi rw'amatara, impande yayo hari utwuma tuyubatseho tuyizengurutse.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho amadirishya yayo arakinze ni ibirahuri, isakajwe ibati ry'umukara mu muryango wayo urakinguye hari umuntu uhagaze, imbere yayo hari ubusitani buteye bukiri butoya.

Inzu nini ndende y'igorofa, igeretse inshuro nyinshi ikingishijwe inzugi z'ibiti. Imbere yayo hari agapangu k'ibyuma, ibiti birabije birebire n'ikindi kitarabije gisa n'icyatsi.

Inzu nziza irimo ibicuruzwa byinshi, abana babiri barambitse amaboko ku meza bunamye, bambaye udupira tw'ubururu, amakabutura y'umukara, hejuru yabo hari inzitiramibu ihari, amatara ari kwaka amavuta atondetse ku murongo.

Inzu nini y'igorofa igeretse inshuro nyinshi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, abantu bari kugenda, abahagaze n'abandi bari kwitegereza.

Abantu benshi, umwe muri bo akaba yambaye imyenda isa ubururu n'umweru, mu kuboko kwe akaba afite telefone. Imbere ye hakaba hari inanasi iteretse ku meza ifite ibara ry'ubururu, n'umutuku n'umukara.

Ibishushanyo bikoze mu bantu byambaye imyenda yo gucuruza itandukanyije amabara, ubururu, umukara, umweru, umuhondo n'imyenda myinshi irunze kumeza.

Umugabo uhagaze areba imbere atuje, akantu ari kwerekana mu ntoki, akaboko yarambitse ku meza, icyumba gikinguye, urugi rwacyo ni shokora yijimye, inyuma ye hari irido ry'amabara y'umutuku rifite umucyo muri ryo.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umwe yambaye umukara, undi ubururu bwijimye, bahanye impano, bahagaze ahantu hari ubururu, handitsemo amagambo y'impine.

Ikarita yifashishwa mu kwivuza ifite ibara ry'umuhondo, handitseho amagambo y'umukara n'ikirangantego. Harimo agaseke, udushami tureture, isaka, ikizeru n'agaseke.

Abagore bane n'umwana wa gatanu umwe muri bo ateze igitambaro babiri bambaye udupira tw'umukara, abandi bafite impapuro mu ntoki n'ikaramu, inyuma yabo begamye ku nzu ifite amatafari ahiye inzugi z'umweru zikinze.

Umugore uri mu nzu nini yinkoranyabitabo ufite agakapu mu ntoki, yambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara, imisatsi miremire izinze, imbonerakure mu mumaso, umutako ku matwi ari kwitegereza igitabo.

Ibicuruzwa byinshi harimo ibyo kwambara n'ibiribwa biri mu mufuka w'umuhondo n'uw'umweru, n'ibindi bigaragara ko byahashywe ku mugore ubyegamyeho uri guseka, yambaye agatakako ku mutwe, abagabo bari inyuma ye, bari kureba imbere ye.